Imodoka ya rukururana ifite ibirango by'umweru n'ubururu, iri mu muhanda, iri kumwe n'indi imbere yayo.

Umuntu urimo ukarabya ibiganza ku mazi atemba arimo gushokera munsi y'urukarabiro, urukarabiro rw'umukara rudasize ibara.

Umwana wambaye umupira w'umweru n'ikanzu y'ubururu arimo gukoresha ibiganza bye avoma amazi ku iriba kugira ngo ayanywe. Imbere ye hateretse indobo y'icyatsi.

Ababyeyi n'abagabo bicaye bakikije ameza, bicaye ku ntebe z'umukara zirimo utudomo tw'umweru barebana, undi abahagaze hejuru, yambaye imyenda y'imihondo.

Umubyeyi wambaye umupira w'idoma n'igitenge kirimo amabara y'umukara n'umweru, ateruye umwana wambaye ingofero y'umweru, bari ku ivomo bafite indobo y'umukara.

Umwana wambaye umupira w'ubururu, wambaye agakomo k'umukara ku kuboko afashe mugenzi we ku rutugu bagaragiwe n'abandi bana bambaye imyenda isa.

Abana bambaye imipira y'imihondo, bari kumwe n'abashinzwe umutekano, babaha amata, bagaragiwe n'ababyeyi babo n'abandi bagabo.

Umubyeyi wambaye isengeri irimo amabara ya move, umweru, idoma n'icyatsi, n'ipantaro y'idoma, ahagaze imbere y'inzu, agaragiwe n'abandi babyeyi n'abagabo.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu bwerurutse, umupira w'ubururu bwerurutse, agapfukamunwa k'umweru n'ipantaro y'ubururu, arimo gukorera umwana akajerekani ari kumwe na bagenzi be.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'amaherena manini, ufite ibisuko, wambaye n'umukufe, ateruye umwana wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'ubururu, arimo guhuza iminwa.

Umwana utambaye hejuru, arimo kunywa amazi kuri robine akoresheje ibiganza bye bibiri, hirya ye hari intebe y'ubururu bwerurutse.

Abana bambaye imyenda ya kake bari kuri robine eshatu, barimo gukarabya intoki bareba mu ndobo zabo bafite z'umuhondo bunamye imbere y'ibiti bigandaye.

Umubyeyi uteze igitenge mu mutwe wambaye umupira urimo amabara y'ubururu n'umweru harimo uturongo tw'umukara, ateruye umwana barimo kumukingira abaganga.

Umwana wambaye umupira w'umukara n'ikabutura utambaye inkweto, arimo kuvomera umukobwa wambaye umupira w'iroze, n'ijipo n'inkweto z'iroza.

Ababyeyi, abagabo, bari ku ifoto y'urwibutso mu nzu isize irangi ry'umweru, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu n'umweru werurutse, hejuru hari kamera.

Umukobwa wambaye umupira n'ipantaro arimo kuvomera abana bari imbere y'iriba, hirya yabo haparitse imodoka y'umweru mu gikombe.

Umugabo wishimye, wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, arimo gukaraba kuri kandagira ukarabe iri mu mbuga.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa ko mu gitenge, yambaye umupira w'ubururu ufite amaboko y'umweru arimo gukarabya umwana intoki n'isabune wambaye kake bareba ku ntoki bombi.

Umwana wambaye inkweto z'icyatsi n'agakabutura kagufiya n'umupira w'amabara y'umweru, ari iruhande rw'umugezi urimo kuvomwamo n'umukobwa.

Abagabo bafite icyo kunywa mu birahure, bicaye bazengurutse ameza barebana, bambaye amakote, abandi bambaye amashati, harambuye igitambaro cy'icyatsi ku meza.

Umukobwa wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'umweru, arimo kuvomera abana bari ku ruhande rwo hepfo bafite utujerekani tw'umuhondo.

Abana bambaye imyenda itandukanye kake, oranje, ubururu n'icyatsi bashyize ibiganza byabo hamwe munsi y'iriba barimo guseka.

Ababyeyi batatu bagaragiye umuganga wambaye itabuririya y'umweru, igitambaro cy'umukara, arimo kubapima umuvuduko w'amaraso.

Abana bambaye ubusa, barimo kwidumbaguza mu kizenga kirimo amazi asa ikinombe, barishimye, barimo barareba imbere mu mazi.

Umwana wambaye umupira wa oranje, ikabutura y'ubururu, ufite igikombe cy'icyuma, cy'ibara ry'umuhondo arimo gutega amazi ku iriba.

Umubyeyi uteze igitenge yambaye n'ishati y'igitenge, ateruye umwana urimo kuvurwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru, bareba ku mutwe w'umwana.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ishati y'ubururu, yashyize ugutwi kwe ku nda y'umubyeyi uryamye ku gitanda afashwe n'undi mubyeyi uhagaze ibumoso bwe.

Umubyeyi ufite imisatsi miremire, wambaye umupira wa move werurutse, ukikiye umwana, urimo gusuzumwa na muganga, wambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ikanzu y'ubururu n'ijire y'icyatsi irimo imirongo y'umukara, arimo gupima umuriro umwana bateruye mu mashuka y'umuhondo.

Umwana w'umukobwa wambaye ikanzu irimo amabara, arimo koza indobo z'umweru, ari kuri robine ifite ipompo inyuma, arunamye arimo kureba imbere.

Ababyeyi n'abana bagaragiye ivomo rihagazweho n'umumama wambaye umupira w'umukara n'ijipo, hari amajerekani menshi imbere ye.

Agacupa gatoya karimo umuti kari iruhande y'inshinge zipfundikiye, biri ku gasahani k'icyuma, inshinge ziriho ibara ry'ubururu bwerurutse.

Umwana wishimye urimo ukaraba intoki ku iriba, afite amajerekani ay'ubururu n'umuhondo, yambaye umwenda uririmo amabara y'umutuku n'ubururu.

Umwana wambaye ishati ya move yerurutse n'ikabutura ya move, afite igikombe cy'umweru, arimo kuvoma amazi kuri robine y'ikigega cy'umukara.

Ababyeyi bafite abana bagaragiye umuganga wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, udateze igitambaro, barimo kuzuzwa mu ifishi.

Imbere y'icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo, hahagaze abamama n'abakobwa n'abagabo bambaye imyenda itandukanye.

Abantu bambaye amajire y'umutuku n'icyatsi, n'imipira y'umweru n'icyatsi, n'amataburiya y'umweru, bagaragiye umugabo wambaye ijire y'umweru.

Inama yateranye yitabiriwe n'abamama, abapapa, abasaza, Abazungu, Abirabura, barimo baranywa amazi, harimo n'umugabo ubyibushye.

Umubyeyi uteze igitambaro cy'ubururu, yambaye umupira w'ubururu n'igitenge kirimo amabara y'ubururu, yicaranye n'undi mumama udateze igitambaro n'abana babiri ku ruhande.

Umukobwa wambaye umupira wamaboko maremare w'ibara ry'ubururu bwerurutse n'ijipo bisa, arimo gukaraba intoki ku iriba ry'amazi atemba.

Umubyeyi uteze igitambaro wambaye ikanzu irimo amabara y'icyatsi n'umweru ateruye umwana utambaye hejuru. Umuganga arimo kumusuzuma.

Impande ebyiri z'ameza, zikikijweho n'abantu abagabo, abakecuru n'abama, bafite amazi yo kunywa hagati yabo harimo indabo ziri mu dukombe.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati y'ubururu, harimo umupira w'umweru, wambaye isaha arimo gukingira umubyeyi ari kumwe na bagenzi be.

Icyumba gisize irangi ry'umuhondo inyuma harimo icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umweru, hariho ifoto y'umukobwa, imbere yayo hari abantu benshi b'abamama n'abapapa.

Abakobwa bambaye ingofero z'umweru imipira y'umweru, bari kumwe n'abagabo bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'ubururu bwerurutse, bahagaze inyuma y'icyapa cy'amabara y'umweru n'ubururu.

Abagabo n'ababyeyi bicaye mu nama bazengurutse ameza, bafite ibikombe, hagati yabo harimo porojeteri y'umweru.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare y'ubururu, arimo gukarabya intoki ze mu mazi aturuka muri robine, afite umuvumba mwinshi.

Mu cyumba kirimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda hahagaze abagabo, ababyeyi barimo bafata ifoto y'urwibutso imbere y'igiteleviziyo kinini.

Abana bagaragiye umugabo, urimo kubavomera mu ndobo y'umuhondo n'iy'ubururu n'iy'umweru, bagaragiye iriba rifite amavomo abiri.

Umugabo wambaye ijire y'umukara werurutse n'ishati y'umweru n'amadarubindi, arimo guhereza amakarito umukobwa wambaye umupira w'icyatsi n'ijipo y'umukara.

Umubyeyi uteze igitambaro wambaye umupira wa oranje, ukenyeye n'igitenge afite umwana ku rutugu wambaye imyenda y'imyeru, ari kumwe n'abandi babyeyi bafite abana.

Abana bambaye impuzankano y'umuhondo bari mu nzu, inyuma yabo hari abazungu n'abirabura, bishimye cyane bazamuye ibiganza.

Umwana usutamye arimo agerageza kwikorera indobo y'umuhondo, ari imbere y'ivomo rifite amariba ane hahagaze umugabo wambaye imyenda y'ubururu bwererutse.

Ababyeyi bambaye amataburiya y'ubururu, aciye amaboko, bari kumwe n'umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, bayobowe n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara.

Umwana wambaye ishati y'umuhondo, ikabutura y'ubururu ahagaze imbere y'ikiziba, afite ibikombe bibiri birimo amazi y'urubogobogo, iruhande rwe hari abandi bana.

Umumama ufite imisatsi y'umuhondo yambaye n'ikote ry'ubururu, yicaye ku meza ari kumwe n'abandi bagabo baganira, munzu irimo n'abandi bantu.

Umugabo wishimye wambaye umupira w'ubururu n'ijire y'ikake, arimo gukorera umwana ijerekani wambaye umupira w'idoma.

Umubyeyi wambaye umupira w'iroze uri kumwe n'abandi babyeyi babiri, yicaye imbere y'umuganga wambaye itaburiya y'umweru arimo kumupima.

Ivomo rifite amariba atandukanye ririmo kugenzurwa, rizengurutswe n'abantu benshi bafite indobo z'umuhondo n'amajerekani y'umuhondo.

Umwana wambaye ikabutura ya oranje, umupira urimo amabara menshi, ari kuri robine arimo kunywesha amazi ibiganza bye bibiri.

Umwana wambaye umupira w'umweru, ukikiwe na mama we arimo gukingirwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, bagaragiwe n'abandi bantu.

Ababyeyi bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'amataburiya y'ubururu, bahagaze imbere y'abandi bantu babari inyuma bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'utw'umukara.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'igitare n'ipantaro y'umukara ari ku ivomo yitsikamije ijerekani irimo ibara ry'umuhondo hejuru.

Umubyeyi uteze igitambaro cy'umweru, wambaye umupira w'umukara n'igitenge kirimo amabara ya oranje, ahagazwe inyuma n'umugabo wambaye imyenda icikaguritse, bagaragiwe n'abana benshi.

Umugabo wambaye ishati urimo kureba imbere, wazamuye ikiganza k'iburyo akagifatisha ku nda, akarebesha ukundi kuboko imbere, ahagaze imbere y'umubyeyi wambaye igitambaro cy'umweru n'ishati y'ubururu yerurutse, hirya hari abandi bantu.

Umugabo muremure wambaye ikote ry'ikinombe n'ipantaro y'umukara, akikijwe impande zombi n'ababyeyi, n'abagabo bambaye amataburiya ya move yijimye, barishimanye.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ufashe ku icupa ry'amazi, arimo kureba imbere, yicaranye n'abandi bagabo n'umubyeyi inyuma, barimo kureba imbere.

Ababyeyi barimo kubyina bateze amaboko mu cyumba kirimo intebe zitandukanye, iz'umweru, umukara, harimo n'amafoto ku bikuta.

Umusore wambaye umupira wa orange, ipantaro y'umukara, arimo guha umwana ibyo kunywa wambaye umupira wa orange akikiwe na mama we wambaye umupira w'umweru hari n'abandi bantu.

urutara ruri mu mbuga rwubakishijwe n'ibiti, hariho amasahane, ibikombe hejuru imbere y'urugo rw'imiyenzi, hirya hari insina z'imibyare.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro by'ubururu na karuvati y'umutuku, arimo gutanga impano yo gusura u Rwanda ayiha umukobwa w'umuzungu.

Umwana wambaye umupira wa oranje, ari kumwe n'undi wambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi n'umweru, barimo gutega ibiganza byabo ku mazi, arimo kubatarukira.

Umumama wambaye ingofero y'ikinombe, wambaye umupira w'umukara, ufite umupira w'icyatsi ku kuboko n'igikapu cya move mu ijosi, arimo guterwa urushinge n'umuganga.

Umubyeyi uteze igitenge mu mutwe wambaye ishati y'igitenge, ateruye umwana mu rubavu rw'iburyo, afite urupapuro mu kuboko ku iburyo n'ibumoso.

Umwana wambaye umupira w'umuhondo werurutse, n'ipantaro ya pinki yerurutse, ari ku iriba, afite ijerekani y'umuhondo arakebutse arareba ku rutugu rw'iburyo imbere ye.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara werurutse n'ipantaro n'ishati y'umweru, ari kumwe n'umubyeyi wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku, umweru n'icyatsi.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'umweru, ikabutura y'umukara, utambaye inkweto, arimo kuvomera mushiki we wambaye umupira urimo amabara y'umukara n'umweru n'ijipo.

Umubyeyi uteze igitambaro, wambaye umupira wa move, n'ijipo ya move, uri ku mugezi ufite ijerekani y'umuhondo, ari kumwe n'abana babiri.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara, arimo guseka yambaye n'ipantaro y'umukara, afite ijerekani y'umuhondo hejuru ayishingikirijeho, ari ku ivomo rifite amariba abiri.

Abagabo babiri bari ku ruhimbi mu nama yiga ku guhagarika icyorezo cya Maburg i Kigali, ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi, bibiri na makumyabiri na kane.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi, ikabutura y'umukara, urimo gukaraba intoki ku iriba afite indobo y'ubururu n'iy'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, yambaye n'isaha, yifashe ukuboko kw'iburyo munsi y'ukw'imoso, ari kumwe n'abakobwa bambaye imipira y'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, wanditseho amagambo y'umweru, ufite igikapu mu kuboko kw'ibumoso, arimo gusuhuza umwana n'ikiganza cy'iburyo bishimye.

Umwana wambaye umwenda wa oranje, urimo ukaraba ku ivomero rifite agafunga k'umutuku, yahindukije umutwe, arebesha amaso ibumoso.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, ipantaro y'umukara, ugaragiwe n'abandi bantu, arimo kuvoma amazi mu ijerekani y'umuhondo.

Inama irimo abamama n'abapapa, iyobowe n'umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, baganira ku buzima bw'ababyeyi n'abana.

Abanyeshuri bambaye impuzankano hamwe n'abarezi babo, barishimira ibyo bagezeho, bafite amatangazo n'ibitabo bigaragaza ko bishimiye nk'umunsi mukuru.

Abana bagaragiye iriba batega ibiganza munsi y'irobine ipfumuye imyenge myinshi, barimo gukaraba intoki, amazi ajya mu ibasi.

Ababyeyi badafite abana bagaragiye umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'umweru, baje gukingiza abana.

Umumama ufite ibisuko, wambaye amadarubindi, umupira w'ubururu, n'ijire y'ubururu bwijimye, n'ipantaro y'ubururu. arimo gutanga impapuro muri rubanda, bamugaragiye.

Umugore wambaye imyenda ya oranje azengurutswe n'abaganga impande zose, bambaye amataburiya y'umweru bari mu kirongozi cy'inzu mu mpande harimo imiryango itatu.

Umubyeyi uteze igitambaro, ufite amaherena, wambaye ishati n'igitenge k'icyatsi, afashe indobo y'ubururu n'undi mubyeyi n'abandi babiri n'umwana.

Umuganga wambaye akagofero k'ubururu mu mutwe, agapfukamunwa k'ubururu n'itaburiya y'umweru, agaragiwe n'abandi bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa n'ingofero z'ubururu.

Umubyeyi uteze igitambaro cy'umuhondo, umupira w'icyatsi, ijipo y'umweru, arimo kuvomera umwana wambaye umupira wa orange n'ikabutura y'ubururu, atambaye inkweto bagaragiwe n'abandi.

Umumama usutse wambaye ishati y'igitenge n'urunigi rw'umukara. ari aho bacururiza arishimye arimo gucuruza ibintu bitandukanye.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, afite indangururamajwi arimo kugenda asoma, ari imbere y'abandi bashinzwe umutekano.

Umubyeyi wambaye umwenda w'umweru hejuru, igitenge kirimo amabara y'ubururu n'ay'umuhondo, yicaye ku busambi uzinze aziritse ku kuguru kw'iburyo azirikiye ku giti.

Umugabo uhagaze mu myanda irimo amapine, imyenda wambaye amadarubindi wiziritseho imifuka, ibitambaro afite na mikoro.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'ubururu, yicaye imbere y'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, n'agapfukamunwa k'ubururu n'imarete ku ruhande ku ntebe.

Umugabo wambaye ishati ifite amaboko maremare y'ibara ry'ubururu bwerurutse, arishimye yogoshwe ubwanwa n'umusatsi biringaniye.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi n'umusatsi mwinshi, n'imyenda yamucikiyeho, mu gatuza haragaragara; arasamye afite inyinya imbere.

Umugabo wicaye hasi imbere y'abandi bantu yambaye umupira w'umutuku ikabutura y'ubururu yambaye amapingu ku maboko.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru n'amadarubindi washyize amaboko imbere ari kumwe n'abandi bifotoza.

Umubyeyi ufite ibisuko, wambaye amadarubindi, wambaye ishati y'umweru irimo amabara y'ubururu, afite igikapu iruhande rwe, inyuma ye hari abandi bantu benshi.

Umwana wambaye ikote wifashe mu mifuka, yambaye ikabutura ya oranje nta nkweto yambaye, ahagararanye n'abandi bana benshi bari hagati y'ibyatsi byumye.

Umugabo wambaye ingofero y'urugara iriho ibara ry'umukara mu ruteranyirizo uhetse igikapu, wambaye ikote ry'ubururu, n'umupira wa move, yambaye ipantaro ya move, yambaye n'isaha.

Abantu basutamye imbere y'abandi bahagaze, harimo abambaye amashati, amakote n'amakanzu, barimo gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo uhagaze mu muhanda wambaye imyenda yacikaguritse n'inkweto z'umweru, afite umufuka ku rutugu rw'iburyo n'imyenda mu kwaha kw'ibumoso.

Umukobwa ufite imisatsi wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'ubururu wambaye umukufi mu ijosi yicaye mu ntebe aseka yegamiye icyuma.

Umumama wambaye ikote ry'umukara n'ikanzu ari imbere y'abantu arimo kubabwira bicaye bamuzengurutse bafite n'amazi yo kunywa.

Umubyeyi ufite imisatsi miremire, wambaye ikote ry'ikinombe, umupira w'umweru, ari mu ifoto y'ubururu, ishishikariza abantu umunsi w'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye umupira wa oranje, ipantaro isa nk'ivu, n'inkweto z'umukara, yicaye yegamiye igikuta cyanditseho amagambo n'ibara ry'umukara.

Umubyeyi uhagaze imbere y'akameza, kariho igitambaro cya move, wambaye umupira w'umweru afite na mikoro, ari imbere y'abandi babyeyi.

Amashusho abiri y'umugabo n'umugore bafashe ku ishusho y'umutwe, bishimira umunsi w'ubuzima bwo mu mutwe wo mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'agatatu.

Umugabo wambaye umupira n'ikabutura n'amayugi ku kuboko, aciye bugufi ashinze ivi ry'ibumoso hasi yishingikirije ikiganza cy'iburyo, ukuboko kw'ibumoso kuri hejuru.

Umukecuru wambaye igitambaro cy'umweru n'amaherena y'umweru, yambaye urunigi rurimo amabara y'ubururu n'umuhondo nta mwenda yambaye hejuru.

Umumama uteze igitambaro cy'umuhondo, wambaye umupira w'ikinombe n'ijipo y'amabara atandukanye, akikiye umwana ari kumwe n'undi ku ruhande.

Umubyeyi ufite imisatsi irimo amabara y'umuhondo, wambaye ikote ry'ubururu rifite amabara y'umutuku n'ubururu n'ishati y'umutuku, ufite ikirango mu ijosi.

Umumama ufite imisatsi miremire wambaye amaherena y'umweru n'ijire y'ubururu iriho ibirango, azamuye urutoki arutunga imbere ari kumwe n'abandi babyeyi n'umugabo inyuma ye.

Imbere y'imodoka y'ibitaro bigendanwa by'indwara zo mu mutwe, hari abaganga barimo gusuzuma abarwayi bicaye ku ntebe z'umweru mu mbuga.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara yifashe mu mayunguyungu, ari kumwe n'umuzungu n'umugabo wambaye ikote ry'umukara, barimo gutera igiti mu cyobo.

Umukobwa wambaye ishati irimo amabara y'umukara n'umweru n'ipantaro y'umukara, wambaye agapfukamunwa k'ubururu yicaye imbere y'ababyeyi babiri abasobanurira.

Umugabo ufite ubumuga bwo mu mutwe, afite imisatsi myinshi cyane, yakenyeye igitenge, akizirikira mu ijosi, yicaye muri rigori, hasi ye hari ibijerekani bitandukanye.

Umubyeyi uteruye umwana arimo kumwonsa afite inkoni, ari kumwe n'abandi babiri bahagaze mu murima bareba ahantu hatandukanye.

Umukecuru ufite imvi mu mutwe, wambaye umwenda urimo amabara y'ikinombe, idoma, n'umweru ,agaragiwe n'abana impande zose.

Umukobwa ufite imisatsi irenga ku matwi, w'imibiri yombi, arimo kwerekana ku minwa ye, akoresheje intoki ebyiri, arishimye.

Umuganga wambaye amadarubindi, agapfukamunwa k'icyatsi, ishati y'icyatsi n'ipantaro y'icyatsi, arimo kureba mu kanwa k'umwana.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'umukara, ishati y'umukara mo imbere harimo umwenda w'umweru, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso arimo kureba mu kanwa k'umurwayi.

Amenyo atari ku murongo, agaragazwa n'icyuma cyo kwa muganga mu ibara ry'umweru n'umukara, harimo amabara atandukanye.

Iryinyo ryo hagati mu kanwa rikuwemo hifashishijwe agafashi, harimo kuva amaraso, hasigaye n'umwenge munini aho rikuwe.

Umugabo wishimye wambaye ishati y'ubururu irimo utubara tw'umweru, ari imbere y'umuganga wambaye ga z'icyatsi arimo kumusuzuma mu kanwa.

Umubyeyi wambaye isengeri isa n'ivu, ufite imisatsi isutse izirikiye inyuma, arimo gusuzumwa mu kanwa n'umuganga w'umukobwa, wambaye agapfukamunwa k'umweru, itaburiya y'umweru na ga z'umweru.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi uhagararanye n'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru arimo kumusobanurira igishushanyo cy'amenyo bafite mu ntoki.

Umugabo ufite ubwanwa utambaye hejuru, arimo guhaganyura amenyo akoresheje agakoresho k'ubururu kariho urudodo imbere yako.

Umuganga wambaye ga za pinki arimo guharura mu kanwa karimo ibara ry'ikinombe, hariho amenyo y'umweru akoresheje urushinge rwigonze hejuru.

Umugabo wiyogoshesheje wambaye ubusa hejuru, afite urudodo mu ntoki ze arimo guhaganyura amenyo yireba mu kirori.

Umugabo wogoshwe umusatsi, ufite ubwanwa, wambaye umupira w'ubururu bwijimye, arimo guseka agaragaza amenyo y'imbere.

Umusaza wambaye umupira w'icyatsi ari kumwe n'umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru, n'itabuririya y'umweru arimo kumusuzuma mu kanwa.

Umwana ufite agasatsi gakeya, ufite amaso y'umweru, yasamuwe n'umuganga wambaye ga z'ubururu, arimo kumureba amutumbiriye, yegamye ku ntebe ya orange.

Umusore ufite imisatsi yogoshwe n'ubwanwa bwogoshwe, yambaye umupira w'icyatsi kijimye afite utuntu tw'umweru mu kuboko kw'iburyo atungaho agatoki k'ibumoso.

Umugabo urimo guseka, wogoshwe ubwanwa, yambaye ishati ya karokaro, ari kumwe n'umuganga iburyo bwe, wambaye ga z'ubururu bwerurutse, n'itaburiya y'umweru.

Umwana wambaye agakanzu mo imbere harimo agapira k'umweru wishimye, arimo koza amenyo akoresheje uburoso bwa move buriho akabara k'umweru inyuma.

Icyumba gisize irange risa nk'ivu harimo intebe yifashishwa kuvura indwara zo mu kanwa, imbere yayo hari imigozi myinshi, inyuma hari agatebe gafite ibara ry'icyatsi n'amapine y'umukara.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu mutwe, wambaye amadarubindi, umupira w'amaboko magufi w'ibara ry'umukara werurutse, afite uduhaganyuzi mu ntoki, ari imbere y'aho bakarabira.

Umugabo wambaye amarinete, agapfukamunwa k'umweru n'itaburiya y'umweru, afite ikaramu mu ntoki, ari muri laboratwari mu bushakashatsi.

Umumama ufite imisatsi miremire, wambaye isengeri y'umweru n'umwana we wambaye isengeri y'umweru, barimo koza amenyo bakoresheje uburoso.

Umugabo washyize isume ku bitugu, ufite akihaganyurisho, arimo guhanagura mu menyo ye yireba mu kirori imbere ye.

Umubyeyi ufite imisatsi y'umukara wambaye umupira w'icyatsi isaha y'umukara n'ipantaro y'umukara arimo koza amenyo akoresheje uburoso.

Umupapa wisukishije n'umwana we wiyogoshesheje haciye mo uturongo tubiri, bafite urudodo bahaganyura mu menyo yabo, bambaye imyenda y'imweruru isa.

Umugabo wambaye ubusa hejuru wogoshwe ubwanwa n'umusatsi, arimo kwihaganyura amenyo akoresheje urudodo rw'umweru ruziritse ku maboko ye, iburyo n'ibumoso.

Umukobwa wambaye ingofero y'iroze, arimo gukoresha akantu k'ubururu bwerurutse ahaganyura mu menyo akoresheje ukuboko kw'ibumoso kwiwe.

Mu ishuri harimo abana bafite ibikoresho by'isuku yo mu kanwa, bari kumwe n'umubyeyi ufite imisatsi miremire, wambaye ishati n'ipantaro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe bakoreramo abarwaye mu kanwa, ifite umusego wa oranje, harimo utubati dufite amabara y'umweru.

Abana bafite ibikoresho by'isuku, bogesha mu kanwa, bambaye amashati y'imihondo, bicaye mu ishuri bazamuye amaboko bagaragaza ibikoresho by'isuku.

Umugabo wogosha ubwanwa n'umusatsi mu mpande, wishimye urimo guseka, yambaye ikote ry'ubururu n'umupira w'ikinombe imbere ahinnye ikora ry'ishati.

Umugabo uryamye areba hejuru wiyogoshesheje ubwanwa, imbere ye hari umukobwa wambaye agatambaro mu mutwe k'umweru, agapfukamunwa k'umweru n'imyenda y'ubururu na ga z'ubururu, arimo kumuvura amenyo.

Umukobwa usutse w'imibiri yombi, wambaye amaherena n'umwenda w'ubururu, afite ikirori mu ntoki arimo yishimira uko asa.

Umwana wishimye w'imibiri yombi, wambaye ishati y'ubururu, ufite icyogesho cy'amenyo cy'umuhondo n'ubururu, aragaragaza ko ari ingenzi.

Umugabo wogoshe ubwanwa, arimo gushyira akarinda amenyo mu kanwa gafite ibara ry'umweru, akoresheje ikiganza cye cy'iburyo.

Umusaza wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'ubururu, arimo gukina n'umwana we ufite imisatsi myinshi, yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu.

Umukecuru ufite imvi nyinshi mu musatsi wambaye amaherena n'ikote ry'umukara, harimo umupira wa pinki ari kumwe n'umukobwa urimo kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Umumama ufite imisatsi y'umukara, uhetse igikapu cy'umukara, wambaye ikote ry'ikinombe n'ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu; afite igikapu mu kuboko kw'iburyo, afashe undi uri mu mbago.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu musatsi wambaye amadarubindi ishati, y'icyatsi cyijimye n'umupira w'umweru arimo kwandika mu ikaye ku meza.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu bwanwa wambaye umupira w'ikinombe, afite inkoni y'umuhondo yigonze, ari kumwe n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu arimo kumusekera.

Umusaza ufite imvi nyinshi cyane mu mutwe no mu bwanwa bwo hejuru y'umunwa, wambaye agakomo k'umukara, arimo gufata ibinini asomerwa amabwiriza yabyo.

Umusaza ufite imvi mu mutwe no mu bwanwa, yambaye ishati ya oranje, arimo gusuzumwa n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu.

Umukecuru uri mu cyumba wenyine yambaye amadarubindi y'umutuku, yipfutse ku mazuru n'umunwa n'ikiganza, yambaye impeta afite n'igikombe cy'amazi.

Umukecuru w'imvi nyinshi mu musatsi, wambaye umupira wa orange n'umushanana w'umweru, ari kumwe n'undi bambaye ibisa; bagaragiwe n'abandi bantu babari inyuma.

Umugabo ufite imvi nyinshi z'ubwanwa, wambaye umupira w'umweru, ushyizwe igipimo cy'umuvuduko w'amaraso ku kuboko kw'ibumoso, aryamye ku gitanda agaragiwe n'umuganga.

Umukecuru ufite imisatsi migufiya wishimye, ufite agakoresho ko mu myitozo ka move, yambaye umupira w'umweru uciye ijosi.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu n'umuhungu ufite imisatsi myinshi, wambaye umupira w'ubururu, bari kumwe n'umukecuru n'umukobwa, bahagazwe n'akana imbere.

Umugabo ufite imvi mu musatsi no mu bwanwa, wambaye ishati n'umupira, ari kumwe n'umumama wambaye amadarubindi n'ikote ry'ubururu, barishimanye.

Umukecuru ufite imvi mu musatsi, ufite utwuma tw'icyatsi mu ntoki, wambaye umupira urimo amabara arishimye cyane.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu musatsi, wambaye amadarubindi, yicaye imbere y'umukobwa ufite imisatsi, arimo kumusomera igipapuro, ku meza hari amazi n'ikaye.

Abagabo bambaye ingofero n'abandi batazambaye n'abakecuru, bicaye hasi barimo kuganira begamye ku bikuta bifite ibara ry'umuhondo.

Umuganga ufite imisatsi izirikiye inyuma, wambaye amadarubindi n'agapfukamunwa k'ubururu, afite imyenda ya move, yicaye ku ntebe, arimo gusuzuma umukecuru.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu bwanwa, wambaye umupira w'umukara werurutse, arimo guhabwa imiti n'umuganga ufite imisatsi miremire, wambaye imyenda y'ubururu, umusaza afite igikombe cy'amazi mu kuboko kw'iburyo.

Umugabo wambaye ikote ry'umweru n'ipantaro y'umukara, ari kumwe n'undi ufite amazi mu kuboko kw'iburyo, wambaye umupira w'umweru witereye umupira w'umukara bari mumyitozo.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu mutwe no mu bwanwa, wambaye ishati, afite telefone mu kuboko kw'iburyo arimo kwereka umukecuru umwicaye iburyo bwe, ku meza hari imiti n'amazi.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu musatsi wambaye umupira w'idoma n'ipantaro y'umukara, afashwe mu maboko n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu ibumoso n'umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu n'agakoti k'umuhondo iburyo.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu, uriho akarongo k'umutuku ku maboko no ku ijosi, yicaranye n'umukecuru urimo kumusomera bishimye.

Umugabo ufite imvi nyinshi mu mutwe wambaye ishati irimo amabara y'umutuku, ubururu n'umweru, arimo kugabura ibiryo ku masahane ari kumwe n'undi muntu.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu mutwe, wambaye amadarubindi n'umupira w'umweru, akikijwe n'umuganga wambaye imyenda ya oranje n'imisatsi miremire.

Umumama ufite imisatsi miremire, wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara arimo gukora imyitozo ngororamubiri afata amaboko ye akayakoza ku mutwe w'ikirenge cy'iburyo.

Umubyeyi wambaye ishati n'ijipo ateze igitambaro agaragiwe n'abana benshi bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru, ubururu bwerurutse n'abahagaze inyuma ye.

Umukecuru ufite imvi mu musatsi, wambaye umupira w'umweru n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, ari kumwe n'umugabo wambaye umupira ujya gusa nk'ivu, wambaye isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, bari mu myitozo.

Umusaza wambaye ubusa hejuru wicaye mu rwuhagiriro, afite imvi nyinshi cyane mu musatsi, mu bwanwa, arimo kuhagirwa.

Umusaza urimo kurya, ku meza hariho imbuto zirimo pome, barimo kumusukira icyo kunywa mu kirahure gisa umuhondo.

Umusaza ufite imvi mu musatsi wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu bwerurutse.

Umusaza ufite imvi mu mutwe wambaye agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse, ishati y'ubururu yicaye mu ntebe imbere y'umuganga wambaye ishati y'icyatsi arimo kumva umutima we.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu bwanwa no mu musatsi, wambaye umupira w'umweru, arimo kurya arebana n'umukecuru mu maso, ufite imvi mu musatsi wambaye n'umukufi n'umupira wa move.

Umumama ufite imisatsi y'ibisuko, wambaye umupira urimo amabara y'umweru n'umukara, yambaye n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari imboga z'amoko atandukanye, ari kumwe n'umukecuru ufite icyo kunywa mu ntoki.

Umubyeyi uteze igitambaro cy'ubururu, yambaye ishati y'ubururu n'ijipo y'ubururu, ari kumwe n'abandi basarura icyayi.

Umusaza ufite imvi mu mutwe nyinshi, yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'inkoni ku kibero, agaragiwe n'abana babiri.

Umugabo ufite imvi nyinshi, wambaye umupira w'ikinombe, ukenyenye isume, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, arikumwe n'umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye umupira w'ubururu bwerururutse.

Umugabo ufite imvi mu musatsi, wambaye umupira w'ikinombe n'ijire y'amabara y'umukara, ari mu kagare atwawe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu bwerurutse.

Umusaza n'umukecuru bari mu cyumba afite mudasobwa, ibikombe bibiri amusomera imiti n'imikorere n'imikoreshereze yayo.

Umupapa wicaye hagati, yambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umweru, azengurutswe n'abandi bantu harimo abana, abakecuru n'abakobwa.

Umupapa wambaye imyenda y'imyeru, amasogisi y'umweru, ari kumwe n'umwana we ufite umupira wa Basket bari mu kibuga barishimanye.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu musatsi no mu bwanwa, ari kumwe n'abana bishimye, harimo umugabo wogoshwe ubwanwa n'umusatsi n'umubyeyi uhetse undi mwana.

Inzu ifite amabara ya move, umuhondo, icyatsi igaragiwe n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, ijipo ya move bizihiza umunsi Mpuzamahanga wa Diyabete.

abagabo bambaye amakositimu y'umukara, umweru, bari kumwe n'ababyeyi, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo, umutuku n'ubururu.

Umukobwa wishimye, ufite ibisuko, wambaye amadarubindi, afite mikoro y'umukara, yicaye mu ntebe ifite ibara ryerurutse.

Umugabo wambaye ikoti n'ipantaro by'umukara, ahagaze imbere y'ababyeyi n'abapapa bafite mudasobwa, arimo kubasobanurira ibyanditse imbere yabo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ikinombe, ari kumwe n'abana n'umubyeyi, baganira ku bibazo byo mumutwe mu Rwanda.

Inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, abazungu, abirabura, abashinzwe umutekano, barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'umugore wambaye umutuku n'amadarubindi bafite imifuka ibiri y'icyatsi n'iy'ubururu igaragaza ibibora n'ibitabora.

Muganga wambaye ikanzu y'ubururu, ga z'umweru ari kumwe na mugenzi we wambaye ibintu by'ubururu bafite imashini mu biganza.

Abagabo bambaye amakositime bari kumwe n'umubyeyi ku ruhimbi, bagaragiwe n'abandi bantu imbere yabo, inyuma hari icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Umusore wambaye ishati n'ipantaro y'ikinombe n'inkweto zirimo amabara y'ikiombe n'umukara, ahagararanye n'undi mukobwa wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'ikinombe.

Indwara zitanduzanya. Icyumweru cyahariwe Diyabete. Udukoresho twifashishwa gusuzuma Diyabete n'abantu bagaragaza intoki.

Umuzungu wambaye ikote ry'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, ari kumwe n'umukobwa wambaye ikanzu irimo amabara menshi n'inkweto z'umukara.

Umubyeyi wambaye ikote ry'ubururu, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, yegeranye n'abagabo barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso irimo nabandi babyeyi.

Umubyeyi ufite ibisuko, wambaye amaherena y'umweru n'umukufe mu ijosi, yambaye umupira wa move, ari ku ifoto y'umunsi mpuzamahanga w'ubuzima.

Inzu y'ubuganiriro irimo abamama, abapapa, abazungu, abirabura, abahagaze n'abicaye barimo baganira ku burwayi bwa SIDA n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri Afurika.

Umubyeyi wambaye umupira w'ubururu, ufite inyinya, udateze igitambaro; ari kumwe n'abandi batatu mu ifoto y'ubururu.

Abagabo n'abakobwa bambaye imyenda y'imyeru, barimo bashishikariza gukoresha udukingirizo mu kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Umusore wambaye itaburiya y'umweru, wambaye na ga z'umweru, ari kumwe n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu, ukenyeye umupira, barimo gusuzuma ababyeyi bicaye ku ntebe.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, amadarubindi n'umupira w'umukara, ufite urupapuro rwanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku werurutse.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi y'umuhondo ku nkingi, ihagazweho n'abantu batatu, inyuma hari intebe yicaweho n'umugabo.

Inzu igaragaramo televiziyo ebyiri, iteye amarange y'umuhondo, imanitsemo ibyapa, bakoreramo imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Inyubako igeretse inshuro eshatu, ifite ibigega by'umukara hejuru n'iminara, ku rwinjiriro rwayo harimo gusohoka imodoka y'umukara, igana mu muhanda munini.

Inzu isize irangi ry'umutuku werurutse, ifite imiryango ya muvura, imanitsemo imitako hagati mu butambukiro n'amatara acanye.

Inzu isize irangi ry'umuhondo ku rwinjiriro n'iry'idoma hejuru, ifite ubusitani burimo ibiti bitandukanye by'icyatsi ku rwinjiriro.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru, harimo amatara menshi n'utubati dusize irangi ry'umuhondo, harimo ibitanda biryamyeho abarwayi batonze umurongo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda by'umweru, harimo amarido y'ubururu, inzitiramubu z'umweru n'ibikuta bisize irangi ry'umweru.

Icyumba kirimo amatara y'umweru n'ay'ubururu, kirimo amarido y'umuhondo, haryamyemo abarwayi, harimo n'abaganga bambaye imyenda y'ubururu.

Inzu isize irange ry'umuhondo werurutse ku bikuta n'amadirishya asize irange ry'icyatsi, mu rubaraza rwayo, hagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Umugabo uri kwa muganga, uryamye ku gitanda, mu cyumba gisukuye, gitatswe n'indabo z'umuhondo n'ubururu, arimo kuyungururirwa amaraso.

Abaganga b'ababyeyi bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse, bahagaze imbere y'inzu y'aho ababyeyi babyarira iri mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Umubyeyi ufite imisatsi wambaye umupira wa orange n'igitenge kirimo amabara y'umutuku, ahagaze inyuma y'imodoka y'umukara, yifashe mu mayunguyugu.

Inzu irimo amarangi y'umukara werurutse n'amabara menshi ku gikuta, irimo indabo, irimo intebe zifite imisego y'umukara werurutse cyane n'ameza.

Umwana wambaye ishati y'umweru, hariho amaburuteri, yicaye imbere y'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu.

Mu kibuga kinini kiri imbere y'inzu igeretse gatatu, haparitse imodoka nyinshi, harimo ushinzwe umutekano wambaye ishati ya oranje n'ipantaro y'umukara.

Icyumba gisize amabara y'umweru harimo akabati harimo icyuma cyo kwa muganga kifashishwa kureba imimerere y'imbere mu mubiri.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu, ufite umukubozo, ari mu cyumba kiryamyemo abarwayi.

Umubyeyi wambaye ingofero y'umukara n'isengeri ya move aryamye ku buriri, yiyoroshe ikiringiti k'icyatsi kijimye arimo gusuzumwa n'umuganga w'umumama wambaye itaburiya y'umweru.

Umwana wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda, gafite inyuma h'umukara n'amapine manini, arimo kureba imbere yitegeye ikigega cy'umukara.

Inzu isize igisenge irangi ry'ubururu bwerurutse n'amadirishya asize amarangi y'ubururu bwerurutse, iri mu kibuga kinini, ifite ikigega cy'umukara inyuma.

Imodoka isize irange ry'umutuku, iruhande rwayo hari moto, hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda mu rubaraza rw'inzu nini igeretse.

Umubyeyi wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, ahagaze imbere n'umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'imyenda y'imyeru.

Icyumba kirimo ibara ry'umweru, harimo amatara, aho bakarabira hatandukanye n'udutajeri tw'umweru n'uturango tw'umutuku n'udutebo tujyamo imyanda.

Umwana wambaye ishati y'umweru uri inyuma y'ababyeyi bicaye imbere yaho bakirira abagana ikigo nderabuzima.

Urugo rwubakishije amatafari rurimo ibyuma by'umukara, imbere yaho hari ibyicungo by'abana biri mu mabara y'ubururu n'icyatsi.

Mu nzu isize irange ry'umweru n'amadirishya arimo ibirahure by'umukara, harimo abanyeshuri bari mu bushakashatsi muri laboratwari, bamwe bicaye abandi bahagaze.

Ikigo kirimo imihanda ifite amabara y'umukara n'umweru ku ruhande, kiriho n'inyubako zisize amarangi y'icyatsi umuhondo n'ubururu, harimo n'ibigega by'umukara.

Inzu irimo imiryango isize amabara y'umuhondo n'amakaro arabagirana; isize irangi ry'umweru, irimo n'utuntu tw'ubururu ku bikuta.

Inzu yubakishije ibikuta by'amabuye, ifite inkingi zisize irange ry'umuhondo, harimo kunyuramo abagabo babiri, mu rubaraza rwayo.

Icyumba gisize amarangi y'umweru, kirimo intebe y'idoma irimo indi imbere yayo hakikijwe n'ibitambaro by'idoma.

Inyubako igizwe n'amazu menshi asize irangi ry'umutuku ku gisenge, harimo abantu ku mbaraza z'amazu, n'ubwatsi bw'icyatsi kibisi hagati.

Icyuma gifite ibara ry'umweru n'imigozi y'umweru, gifite ekara y'umukara kiri mu cyumba gisize irange ry'umweru.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye imyambaro y'icyatsi, ari mu cyumba cy'abarwayi, harimo amarido y'ubururu bwerurutse.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, harimo ibyuma bigenzura ubushyuhe n'ubukonje mu nzu, hashushanyijeho ifoto y'ijisho ku gikuta, harimo n'udutako tw'ubururu n'umweru.

Inzu isize amarangi y'icyatsi cyerurutse cyane, yanditseho hejuru mu ibara ry'icyatsi, ifite ibirahure by'ubururu, iteye imikindo imbere.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, harimo ibirahure binini mu madirishya, hamanitsemo amateleviziyo menshi, harimo n'ibitanda bishasheho uburyamo bw'ubururu.

Abantu batatu bambaye imyenda y'ubururu hejuru n'ingofero z'umweru, bahagaze mu kibuga baraseka barishimye.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru, ririmo igisenge cy'umweru, harimo icyuma kifashishwa mu kureba mo imbere mu mubiri w'umuntu cy'umweru.

Inzu ikinguye imiryango itandukanye, harimo akabati karimo imiti itandukanye, iri mu mabara umuhondo, umweru, umukara n'icyatsi.

Abakobwa babiri bambaye amataburiya y'umweru na ga z'ubururu, bari kumwe n'umuhungu wambaye itaburiya y'umweru, bari mu bushakashatsi muri laboratwari.

Imodoka ziparitse ziri mu kibuga kirimo abantu, hariho ushinzwe umutekano uhagaze kuri bariyeri wambaye impuzankano irimo amabara y'umweru, oranje n'ikinombe n'inkweto z'umukara.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara, wifashe mu mufuka w'itaburiya, ahagaze mu rubaraza rw'inzu ifite amabara y'umweru.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka ziri mu kibuga cy'imbere y'inzu igeretse kabiri, isize amabara y'ubururu, umukara n'umuhondo.

Umugabo uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, yambaye ishati n'ipantaro n'amasokisi, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'gapfukamunwa.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru, umupira w'umweru n'ipantaro y'umuhondo, yambaye inkweto z'umukara, ahagaze imbere y'abantu bicaye batonze umurongo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'icyatsi, afite inkoni iriho ibara ry'umutuku hasi. Yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara agaragiwe n'abandi bantu.

Icyumba kirimo ibitanda by'ibara ry'ikinombe, intebe zifite amapine, ameza afite ibara ry'umuhondo, urukarabiro n'udutebo two gushyiramo imyanda.

Imashini yifashishwa kwa muganga, bareba utunyabuzima dutoya, iteretse ku meza ikikijwe n'ibirahure, bicagasemo amazi n'udutibe duteretse ku meza.

Inzu irimo amatara azengurutse hejuru na televiziyo ku gikuta harimo ibyuma by'umukara bifite amasikirini imbere by'imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo akabiko k'imyanda k'icyuma, urukarabiro, igitanda gifite amapine, gishasheho ikiringiti cy'ibara ry'ibihogo hamwe n'umusego.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ufite mudasobwa imbere ye n'icupa ry'amazi n'undi umwicaye inyuma wambaye ishati y'umukara na mudasobwa, barimo kwerekwa n'undi mugabo ibiri ku gikuta.

Umuganga, wambaye, imyenda y'imyeru, afite imisatsi izirikiye inyuma, arimo gupima, umuvuduko w'amaraso, umusore wambaye, amadarubindi, n'ishati, y'umweru.

Inzu igeretse rimwe, isize irangi rya kake, iriho igishushanyo imbere cy'umubyeyi utwite. Iteye irangi, ifite n'urubaraza hejuru.

Amazu yubakishije amatafari ahiye, hariho amasipure, hariho urwinjiriro rusize ibara ry'umukara werurutse, handitseho amagambo y'ibara ry'umweru.

Umuganga w'umusore wogoshwe, wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, arimo gusuzuma umwana ufite igipfuko ku ijosi, wambaye ubusa hejuru n'ipantaro y'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, wicaye yishingikirije ukuboko kw'ibumoso, ukw'iburyo kuri hejuru y'ukuguru, yicaye munsi yigiti cy'amashami manini kigaye.

Repubulika y'u Rwanda, minisiteri y'ubuzima, ibitaro byigisha bya Butare, intego, ubuzima, kwita ku bantu, kwigisha, ubushakashatsi no kugenzura.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru, harimo ibitanda by'ubururu n'umweru, inzitiramubu z'umweru n'amarido y'ubururu aziritse.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu bwerurutse, ipantaro y'umukara n'umukandara, arimo kuzirika inzitiramubu hejuru y'igitanda cyo kwa muganga, areba uryamye ku gitanda.

Abaganga bambaye imyenda y'ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru bari mu nzu irimo ibitanda biryamyeho abarwayi harimo amarido y'ubururu n'amatara arimo kwaka.

Mu muhanda urunzemo ibitaka n'amabuye, harimo icyapa cy'umujyi wa Kigali, imbere y'ikirango cya bibujijwe kuhanyura harimo ibiti byiza by'icyatsi.

Inzu irimo udutajeri turimo imiti yo kwa muganga itandukanye, hejuru hariho mudasobwa y'umukara, harimo amabara atandukanye y'imiti, umutuku, umweru, icyatsi.

Imbere y'inyubako y'ibitaro bya King Faisal hari abagabo bambaye amashati y'umweru, n'amapantaro y'imikara, n'undi wambaye ipantaro y'ubururu, n'umukobwa umwe bafite udukapu mu ntoki.

Inzu isize amarangi y'umweru, iriho imiryango isize amabara yose ikinze, harimo amakamera hejuru n'amatara arimo kwaka.

Inyubako y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, ifite urwinjiriro rusize amarangi y'ubururu n'ay'umweru ku mpande, hateye igiti ku rwinjiriro.

Inzu ifite ikibuga imbere yayo, isize amarange y'ubururu ku gisenge n'amabara y'ubururu n'umukara ku bikuta, haparitse imodoka imbere yayo.

Umumama ufite imisatsi izirikiye inyuma, wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari agahinja kari mu munzani kaziritsweho imigozi y'umweru imufashe kugira ngo bapime ibiro bye.

Inzu nziza iteye irangi ry'ubururu ku gisenge n'irangi ry'umweru hasi, ifite urwinjiriro rusize irangi rya oranje, imbere yayo mu mbuga hari Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Imodoka y'umukara n'izindi ebyiri z'umweru ziparitse imbere y'inzu bashishikariza abantu gutanga amaraso n'ubuvuzi bwo guhabwa amaraso.

Umubyeyi wambaye umupira w'umuhondo n'igitenge cya orange, ari kumwe n'undi wambaye umupira w'ubururu bwerurutse n'igitenge kirimo amabara y'umuhondo bagaragiwe n'abandi mu nzu.

Umugabo wiyogoshesheje ubwanwa n'umusatsi yamanuye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, barimo kumutera urushinge ku rutugu n'umuganga wambaye ga z'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu afite mudasobwa y'umweru ahanze amaso ku ifoto y'umuntu wanyujijwe mu cyuma kuri screen imuri imbere.

Inzu y'ubushakashatsi bw'ibijyanye n'ubuzima ifite igisenge cy'umukara, irangi ry'umweru imbere n'amabara y'umukara ku rwinjiriro, haparitse imodoka mu rubaraza rwayo.

Umugabo wogoshwe ubwanwa, arimo kunywa amazi akoresheje ukuboko kw'iburyo, harimo akantu k'umukara ahagana ku mutwe arishimye.

Imodoka y'umweru ifite ipine ry'umukara inyuma, ifite ibirango by'umutuku n'amatara y'umutuku inyuma, iri mu muhanda yonyine.

Umukobwa wambaye isengeri ya move, ipantaro ya move, yicaye ku gatapi arimo gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye afashe ukuguru kw'ibumoso.

Umugabo wambaye isengeri y'umweru, wikoreye amaboko, yambaye n'isaha y'umukara ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro isa n'ivu, ari kumwe n'abagabo bamuhagaze imbere, barimo bamugorora umugongo bareba uko ameze.

Ibirango bibiri, icya Repubulika y'u Rwanda n'icya gisirikare, hagati handitsemo Repubulika y'u Rwanda, ibitaro bya gisirikare, bagaragaza imimerere, ubuzima n'akazi.

Umurwayi wambaye agakabutura kagufi hasi atambaye umuganga arimo kumugorora akoresheje intoki ze, yambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, harimo agatajeri, harimo n'imashini yifashishwa kwa muganga bareba mu mutwe y'umweru, ifite agatanda k'umweru.

Ikizingo cy'ibara rya oranje kizingiye ku kantu k'umweru, kirambitse hasi kizingazinze kuri ako kantu k'umweru.

Umukobwa wazamuye ukuguru kw'iburyo agafata mu ivi rya ko, wambaye isengeri y'ubururu bwerurutse n'ikabutura y'ubururu bwerurutse n'inkweto zirimo amabara y'ubururu n'umweru.

Igikoresho gikoreshwa kwa muganga bumva uko amajwi y'imbere mu mubiri akora, rifite umupira w'ubururu, n'udutwi tw'umukara, n'umutwe w'umukara.

Abagabo n'ababyeyi bari mu kibuga, barimo gukora imyitozo ngororamubiri baciye bugufi, bazamuye amaboko.

Ni ibara ry'umukara imbere n'irisa n'ivu inyuma, igikoresho cyifashishwa nk'insimburangingo gifunze hasi ku kirenge no mo hagati, giteretse hasi.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umweru n'inkweto z'umweru. Imbere ye hari insimburangingo zifungiye ku bipupe by'amaguru, zambaye inkweto z'umukara n'iz'umweru.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, ipantaro y'ubururu bwerurutse, ari mu myitozo apfukamishije ukuguru kw'iburyo, ashinze ukw'ibumoso, yazamuye amaboko yombi hejuru.

Ikiganza cy'umuzungu gishyize icupa ryamazi hejuru, rifite umupfundikizo w'ubururu hagaragara ibara ryiza ryikirere ryerurutse.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, arimo kuzirika bande ukuguru kw'iburyo k'umukobwa wicaye ku gitanda cy'umukara, yambaye ikabutura n'umupira by'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ikabutura y'umukara wifashe mu mayunguyungu no ku mutwe w'urukweto arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Imashini yo kwa muganga yifashishwa barireba umuvuduko w'amaraso, irimo kubara, iri ku murwayi uri kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'umweru.

Umugabo ufite imisatsi miremire ikaraze, yambaye umupira w'umukara, ikabutura y'ubururu, irimo imirongo y'umweru na cola y'umukara, n'inkweto z'umukara n'umweru, n'ibikomo byinshi ku kuboko kwi'ibumoso, ari mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa uhagaze imbere y'amazi yazamuye amaboko yose mu kirere, ufite imisatsi miremire, yambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umugabo wambaye ipantaro y'igitare n'umupira w'ubururu bwijimye, uriho uturongo tw'umweru, wambaye isaha y'umukara ku kuboko kw'iburyo, arimo kuzirika bande ku mugabo uryamye ku gitanda, yakuyemo urukweto.

Akadege katagira agapilote k'ibara ry'umuhondo, kari mu kirere gafite agakarito kariho ikimenyetso cyo guteranya mu ibara ry'umutuku.

Umugabo w'umuzungu, uryamye hasi, aziritse ukuguru, ari mu nzu y'imyitozo ngororamubiri, yambaye isaha, akurura umugozi.

Imiti iri mu icupa ry'ikinombe, agakapu k'ibara ry'umutuku, hariho ikimenyetso cyo guteranya mu ibara ry'umweru na ga bakoresha kwa muganga.

Umugabo wambaye agakomo k'idoma ku kuboko n'isengeri y'icyatsi kibisi, arimo kwimenaho amazi ayakuye mu icupa rifite umupfundikizo w'umukara.

Umukobwa wambaye isengeri y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'ubururu bwerurutse, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, amanura amaboko ye hejuru y'amano.

Umugabo wambaye ubusa hejuru, wambaye ikabutura y'umweru wijimye, yambaye isaha yu'umweru ku kuboko kwi'ibumoso ari mu myitozo ngororamubiri asutamye yifata ku kirenge k'iburyo.

Akagare k'umukara gafite inkingi z'ubururu n'amapine y'umukara k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda, gafite imikondo y'umukara inyuma.

Umuntu wambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse yifashishije ukuboko kw'ibumoso, akazamura ukuguru akoresha ukw'iburyo ashyira ibintu bikonje mu ivi rye ry'ibumoso.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto za orange, yafungiye terefone ku kizigira cy'ukuboko kwiburyo ari mu myitozo, imbere ye hatetse amazi mu icupa ry'ubururu.

Igitanda cyubutabazi kiri mu ibara ry'umuhondo gihambiriyeho utugozi tw'umukara hejuru n'abagabo babiri bagitwaye mu maboko.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara, wambaye isaha y'icyatsi ku kuboko kw'ibumoso, afashe icupa ry'amazi mu kuboko kw'iburyo hafi y'umunwa.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, iriho akabara ka oranje, ari mu myitozo ngororamubiri, akoza ukuboko kwe kw'iburyo inyuma mu bitugu, yifashishije ukw'ibumoso.

Umukobwa wambaye isengeri ya oranje n'isaha ku kuboko kw'ibumoso y'umukara, yikoreye amaboko ari mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye ku buriri bushashweho ikiringiti cy'umukara, kirimo amabara y'umweru, yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara arimo kwinanura.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru, yicaye ahinnye ukuguru kw'ibumoso, arambuye ukw'iburyo, afashe ku mutwe w'urukweto.

Ibiganza bifashe agatebo karimo imbuto nka pome n'avoka n'imboga n'kinyanya, hari inkweto ku ruhande na tapi ku rundi.

Umwana uryamye hasi ku mashuka y'umuhondo, harimo utubara tw'ubururu, yambaye umupira urimo amabara, agaragiwe n'abandi bantu bambaye imyenda irimo amabara y'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, imbere harimo agapira k'umukara afashe barafu ayishyira ku kuboko kw'iburyo akoresheje ukuboko kwe kw'ibumoso.

Umukobwa urimo guseka wambaye isengeri n'ipantaro y'ikinombe, arimo gukora imyitozo ngororamubiri yicaye ku gatapi k'ubururu, yifashe munsi y'ibirenge.

Umugabo wambaye agakabutura kagufiya k'igitare, uhambiriye bande ku kirenge, ahagazwe imbere n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi cyijimye, n'umukufe mu ijosi, n'ipantaro y'ubururu, yicaye ku gitanda, ashyizeho ukuguru kw'iburyo, barimo bamuzirika bande mu bujana.

Icupa ry'amazi rifite umupfundikizo w'ubururu, riteretse imbere ya pome n'imbere yicunga, ku ruhande hariho metero y'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ikabutura irimo amabara y'umukara n'umweru, ahagaze imbere y'umuganga wambaye imyenda y'ubururu bwijimye na ga z'umweru.

Umugabo uri mu gicucu, wambaye isengeri y'umukara, agakomo k'icyatsi ku kuboko kw'iburyo, arimo kunywa amazi, n'ukuboko kw'ibumoso.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara urimo guterura alitel y'umukara ahagaze hagati mu mbuto n'imboga n'inyama iruhande rwe hari imigozi ibiri ifite impfundiko.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara, yambaye inkweto z'umweru, yafungiye telefone ku kuboko kw'iburyo ari mu myitozo ngororamubiri arambura amaboko ayakoza ku mutwe w'ikirenge cy'iburyo.

Abagabo bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imipira n'amakabutura, barimo kwiruka mu muhanda ushoyemo imirongo y'umweru.

Umugabo wambaye umupira usa n'ivu, ufite ubwanwa bwogoshe, arimo kunywa amazi, ayanywera mu icupa ry'ubururu bwerurutse, akoresheje ukuboko kwiwe kw'ibumoso.

Umugabo uri ku zuba, wambaye umupira w'ikinombe; arimo kunywa amazi ari mu icupa ribonerana, rifite umupfundikizo w'ubururu bwerurutse.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara, ipantaro isa n'ivu, yicaye ku musambi imbere ya mudasobwa, afite amazi mu icupa n'ibyuma byo mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa washyize isume y'umweru ku bitugu, yambaye isengeri irimo amabara y'icyatsi, ubururu n'umweru, arimo kunywa amazi mu icupa ribonerana, rifite umupfundikizo w'ubururu.

Umukobwa wambaye isengeri y'ubururu nkabutura kagufi k'umukara n'isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, afite icupa ryamazi mu kuboko kw'ibumoso, ari kumwe n'undi mugabo ku ruhande rw'iburyo.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira wa oranje, ikabutura y'umukara, inkweto z'umukara, ari kumwe n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikinombe.

Ababyeyi n'abagabo bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'ingofero z'ubururu, bahanze amaso ku gikuta hariho televiziyo.

Ameza ariho isahani ebyiri, imwe iriho imbuto nk'imineke, inkeri, indi iriho amagi, hari n'agatebo karimo imboga nk'ibitunguru.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira w'umukara, ikabutura y'umukara apfukamishije ivi ry'iburyo mu maboko ye arimo gukanda ivi ry'ibumoso.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, wambaye isengeri y'icyatsi, ikabutura y'ubururu n'inkweto zirimo amabara y'umuhondo na oranje n'ubururu, arimo gusunika ibiro mu myitozo ngororamubiri.

Ikizingo cya oranje n'icy'ubururu n'icy'umukara biri hamwe, ukuboko k'umuntu kuziritseho igipfuko cya oranje.

Abantu bambaye amapantaro y'umukara, bahagaze hirya y'udukarito tw'ubutabazi bw'ibanze, turi mu ibara rya oranje n'umweru.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara n'inkweto z'umukara, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaboko agafata ku mitwe y'ibirenge.

Umukobwa wambaye iseri y'umweru ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara n'umweru, ari mukibuga na bagenzi be bagaragiwe n'abafana benshi ku gice cy'iburyo.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ikabutura y'umukara, afite umupira wa amaguru mu kwaha ari kumwe numwana ufite ubumuga bwo kutagenda uri mu mbago.

Umugabo wambaye isengeri isa n'ivu, uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, yikoreye ukuboko kw'iburyo, agufatishije ukw'ibumoso.

Agakapu k'ibara ry'umutuku n'imishumi y'umukara, karimo imiti itandukanye, yifashishwa mu butabazi bw'ibanze, harimo amazi n'inshinge.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu bwijimye n'isaha y'umukara ku kuboko kw'iburyo arimo kunywa amazi mu icupa ry'urubogobogo akoresheje ukuboko kw'iburyo.

Icyumba kirimo igishushanyo cy'amagufa ku gikuta, harimo umuganga wambaye ishati y'ubururu, urimo ugorora ukuguru k'umugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Amafoto menshi agaragaza imimerere y'ubwonko mu mutwe y'ibyuma byo kwa muganga, ari mu ibaha ry'ubururu n'umweru.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu, itaburiya y'umweru, arimo kureba mu kanwa k'umwana wambaye agapira k'ubururu akikiwe na mama we.

Umugabo ufite imisatsi izirikiye inyuma, wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara iriho akabara k'ivu ku ruhande, ari mu myitozo, arapfukamye, yashyize amaboko ye imbere.

Umukobwa wambaye isengeri ya oranje n'ikabutura y'ubururu bwerurutse irimo imirongo y'umweru, arimo gukora imyitozo ngororamubiri yarambuye amaguru agafata munsi y'inkweto ze.

Icupa ry'uubururu rifite umupfundikizo w'ubururu, ririmo amazi yuzuye rikikijwe n'ibijojoba byinshi by'amazi y'urubogobogo.

Mu mabara y'ubururu n'icyatsi, Viateur Nshimyumuremyi, inzobere mu bugororangingo. Ubugororangingo n'ubuvuzi bwo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umubyeyi wicaye ku musambi hasi hariho ibitambaro, wambaye igitenge kirimo amabara y'ubururu, yicaranye n'akana kishimye kambaye imyenda y'imyeru.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku, urimo kunywa amazi, mu icupa rifite umunwa w'umutuku, afite imisatsi miremire, yafungiye telefone ku kuboko kwe kw'iburyo.

Imashini ifite ibara ry'umweru n'umukondo hejuru w'umweru, igiye ifite utubuto tw'icyatsi kibisi, iruhande rwayo hari indahuzo y'umukara.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye isengeri ya move, arimo kunywa amazi mu icupa ry'ubururu rifite umupfundikizo w'umukara.

Umugabo wambaye umupira usa n'ivu, yambaye ekuteri z'umweru, arimo kunywa amazi akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo, azamura hejuru.

Umukobwa urimo kunywa amazi mu icupa ribonerana, rifite umupfundikizo w'ubururu, yashyize isume ku rutugu yambaye umukufe mu ijosi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru yambaye isaha y'umukara ku kuboko kw'iburyo, yiyogoshesheje ubwanwa arimo kunywa amazi afite umunwa w'ubururu.

Umugabo wifashe ku kananwa, ari kumwe n'undi wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umutuku, bagaragiye umugabo umanitse ukuguru.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ubururu bwijimye, ahagaze ku ngazi, arimo guherezwa n'undi mugabo wambaye imyenda y'ubururu, inyuma ye hari undi wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'ubururu n'agapfukamunwa.

Abana bari mukibuga batoye umurongo, barimo gukora imyitozo ngororamubiri, imbere yabo hahagaze umutoza wambaye umupira w'umweru.

Mu ibara ry'umweru ry'ikizeru hagati harimo umusaraba w'umutuku, mu mugongo handitseho ubutabazi bw'ibanze ku mutoza w'amahugurwa.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, wahinnye ukuguru kw'ibumoso, akarambura ukuguru kw'iburyo, arimo gukoza amaboko ye ku birenge, ari mu myitozo ngororamubiri.

Agasekuru gato, harimo n'umuhini mutoya, biteretse mo hagati y'ibyatsi bitandukanye, bifite amabara y'icyatsi kibisi.

Igikombe gisize ibara ry'umweru, igitare harimo uburoso bubiri bufite ubwoya bw'umukara buri hagati y'ibikakarubamba bibiri.

Abagabo bahetse ibikapu ,bari imbere y'isumo ry'amazi mu gikombe, harimo ibitare binini iruhande yabo ,n'ibiti by'icyatsi kibisi.

Ipapayi ikasemo kabiri iryamye ku yindi idakase, ifite ibara ry'icyatsi inyuma n'ibara ry'umuhondo n'imbuto z'umukara mo imbere.

Mu murima w'inanasi ziteye ku murongo, abagabo bambaye imipira y'umweru, abandi bambaye icyatsi, abandi bambaye umuhondo mu bitugu, barimo kuvamo bagana ku modoka.

Umuravumba uhinze mu murima harimo n'utundi duti dutoya, urashishe ufite ibibabi by'icyatsi kibisi urimo urakura ugana hejuru.

Icupa ririmo amavuta riteretse iruhande rw'agasekuru gato karimo umuhini, hakikijwe ibyatsi gifite amabara y'icyatsi n'umuhondo.

Agasekuru gato gafite ibara ry'umweru n'agahini gafite ibara ry'umweru, harimo ibyatsi, bikikijwe n'uducupa tubiri turimo amavuta y'umuhondo.

Icupa rifite indiba y'umuhondo n'umutwe w'umuhondo rifite umupfundikizo w'umuhondo, rizengurukijeho icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo, hariho n'ifoto y'igikakarubamba.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, yicaye ku ntebe y'umukara, harimo igicupa cy'umukara n'ikindi cy'ubururu ari muri laboratware.

Ikimera gifite ibibabi by'icyatsi kibisi bikura bitambitse, gifite uruti rufite amashami, mu mahuriro harimo imbuto zifite ibara ry'umuhondo.

Icupa ry'umuhondo ryanditseho n'amagambo y'umutuku, rifite umupfundikizo w'umutuku riri hagati y'igikakarubamba k'ibara ry'icyatsi.

Isahani y'umweru iriho amacunga asatuyemo inshuro nyinshi hateretseho icupa ry'umweru rifite n'umupfundikizo w'umweru rizengurukijweho igipapuro.

Amacupa ari mu mabara y'umukara werurutse, umweru, umuhondo na move, ateretse hasi, mu ngano zitandukanye, harimo apfundikije n'umupfundikizo w'icyatsi.

Icupa rifite umupfundikizo w'umweru, rizengurukijweho igipapuro cy'umutuku cyanditsemo reyishi, niyo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru.

Ikimera giteye cyonyine cy'ibara ry'icyatsi kibisi cyijimye, gifite ibibabi bigiye bitandukanye ariko bifashe ku giti kimwe.

Ikarito iri mu ibara ry'icyatsi n'umweru ikikijwe n'izindi zirimo amabara y'umuhondo n'icyatsi gishushanyijeho nk'igikakarubamba k'icyatsi kibisi.

Umugabo ufite agasekuru gatoya n'agahini gatoya, arimo gusya ibyatsi, imbere ye hari ibindi biri ku masahani, ku dukombe harimo n'imbuto.

Utwebo duteretse ku meza, dutondekanye, turimo ibintu bitandukanye, harimo indabo za move, iz'ubururu, iz'umuhondo, harimo ipapayi n'indabo n'amabuye.

Agatajeri karimo imiti y'amoko atandukanye ifite ibirango, iby'umweru, iby'umutuku, iby'ubururu n'iby'umuhondo igerekeranyije.

Icupa rifite umupfundikizo w'icyatsi, ririho igipapuro kizengurutse, ryanditseho umuravumba, gifite ibara ry'icyatsi ku ruhande.

Ikarito ifite amabara y'umweru, iriho n'amabara y'idoma ariho sa, icyenda, yegeranye n'ishashi irimo amabara y'umweru n'umuhondo ndetse n'icupa rifite ikizenguruko cy'umuhondo.

Icupa ripfundikiye ririmo ibyatsi, riri iruhande rw'igikombe kirimo ibyatsi, ku ruhande hateretse uducupa dufite ibara rya oranje.

Igitunguru gisatuyemo kabiri, gifite umutwe wumye, kiri kumwe n'indimu zisatuye, iruhande rwaho hari icupa ririmo amavuta, rifite icyapa cy'icyatsi n'umuhondo.

Ibiti byinshi bitandukanye bifite amabara y'icyatsi kibisi by'imiravumba, biri mu murima bishishe bikura bireba hejuru, hasi hariho amababi atangiye kuma.

Umugabo ufite ikayi mu ntoki, wambaye umupira w'icyatsi, ari kumwe n'abandi bambaye imipira isa, harimo n'abambaye amakositimu, bari mu murima w'ibikakarubamba.

Icyumba kirimo akajagari harimo udukono, uducupa twinshi, inkoko, imifuka, imyenda ishaje, birambitse hasi mu kavuyo kenshi.

Hagati y'ibikuta bibiri bidateye irange harimo igiti gifite amashami menshi n'ibibabi by'icyatsi kibisi cy'umuravumba ahagana hasi kitariho ibibabi.

Imboga zihurijwe hamwe, harimo; amashu, ibibabi by'imbwija, intoryi na puwavuro birambitse hasi, ku ruhande rwaho harambitse ibitunguru.

Ibihuru birimo ibiti byinshi, harimo ibibabi by'umuravumba wejeje, ufite indabo z'umweru zakuze zikagandarara hejuru.

Mu ibara ryiza ry'umweru, harimo igikakarubamba cy'icyatsi kibisi n'icupa ry'ubururu ryanditseho amagambo n'ibara ry'umuhondo.

Ikimera gifite ibibabi by'icyatsi kibisi n'imbuto zifite amabara y'umuhondo, n'izindi zitari zameneka zifite amabara y'icyatsi.

Icupa rifite umupfundikizo w'umuhondo rizengurutsweho n'amagambo ryanditseho umuravumba, ririho ibara ry'icyatsi ku ruhande.

Umubyeyi wambaye igitenge cyiganjemo amabara y'umuhondo n'iroze, ari mu busitani, arimo gushaka indabo z'idoma.

Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo amabara y'ubururu afite icupa ry'ikinombe rifite umupfundikizo w'ubururu, iruhande rwe hari andi macupa menshi mu kabati.

Amacupa ari mu mabara atandukanye, harimo iry'ubururu, iry'ivu, iry'udoma n'iry'icyatsi, ateretse ku rubaho acuritse, andi areba hejuru.

Isorori irimo umushongi, hejuru yayo hariho ikiyiko, ikikijwe na tangawizi idahonze n'ibibabi by'icyatsi kibisi iruhande rwayo.

Ikimera gifite ikibabi cy'icyatsi kigiye gitandaraje mu mpande, ariko bifashe ku kibabi kimwe, kiri hasi, inyuma yaho hari amatiyo menshi.

Mu nzu y'ubuhombekero harimo abagabo barimo kwita ku mbuto ziri mu bishashi by'umukara, harimo imiravumba mitoya, hashinzemo icyapa cyanditseho amagambo y'umukara.

Ishyamba ry'inzitane ripfukiranye ririmo ibimera bigufiya n'ibirebire, harimo ibiti byazanye insharankima bifite imirongo y'umukara, hakurya hagaragara ishyamba ritsitse.

Icyatsi gifite ibibabi by'icyatsi kibisi, indabo z'umuhondo n'iz'umweru, cyameze mu gisambu hagati, gikikijwe n'ibigunda, gifite indabo zaje hejuru z'umutuku n'umweru.